Ikigo gishinzwe ubwishingizi n'ubwizigame solasi kirongera kwibutsa abakiriya bacyo ko babwira n'abandi bashaka kukigana bakaba bakwishinganisha, bagashinsha ibinyabiziga byabo, imitungo yabo ndetse n'ubucuruzi bwabo.

Uyu munsi uwuharine kwiyitaho no kuruhuka, burya gukora utaruhuka nabyo byangiza ubwonko ndetse binatera indwara nyinshi zitandukanye zishobora kuba zakuviramo urupfu.

Ibizazane by'ubuzima ntibiteguza, ubwishingizi bw'mpanuka bwa pirime bugufasha kuguma utekanye, ni byiza kuba wakwishinganisha kuko igihe cyose uhuye n'ikibazo kandi utari wabiteganyije bo barakugoboka.

Ikigo cy'ubwizigame cyongeye kwibutsa abaturage ko kwizigamira ari ibintu byiza cyane buri wese yagatangiye gukora ari hagati y'imyaka makumyabiri n'umwe, kugeza ku myaka mirongo itanu n'ine, ibi bikazatuma abaho neza mu gihe azaba atagifite imbaraga zo gukora.

Abakozi bambaye neza bahagaze bose bari kwifotoza bafite icyapa cyanditseho saniramu Rwanda, aba bakozi bari baje kwamamaza sanilamu kugirango abaturage batari bayizi bayimenye, babone uko babasha kwiteganyiriza no kwizigamira ahazaza habo.

Ubutumwa bwereka nyiri konti amafaranga afite, yinjije amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri na kimwe n'amafaranga mirongo itandatu, abikuza amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri na bibiri n'amafaranga magana abiri makumyabiri n'ane, asigaranaho amafaranga magana atandatu.

Umuntu ukoresha banki ya Zigama igihe ari kohereza amafaranga bamuha uburyo butandukanye ahitamo yakoherezamo amafaranga. Hari ukohereza kuri konte zange, kohereza kuri konte ya Zigama, kohereza kuri mobayilo mani cyangwa kohereza kuri konte z'andi mabanki.

Fositini Kanamugire agiye kwishyura amafaranga y'ishuri y'umwana we, ibihumbi mirongo irindwi na bitanu by'amafaranga y'u Rwanda. Amaze no gushyiramo imibare y'iwe y'ibanga, kugira ngo hatagira undi muntu ushobora kumwinjirira kuri konte ye. Ibi byose ari kubikorera kuri eko banke.

Ibikapu byiza kandi bikomeye wagurira umwana wawe, yaba ari ushaka icyo guheka mu mugongo, cyangwa icyo gutwara ku rutugu. Muri ibi bikapu hajyamo ibintu byinshi bihagije, ku buryo ufite urugendo rurerure ari cyo wakoresha.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi cyane cyane iby'imyenda. Umugore yaraje kugura ishati umucuruzi arimo kumubwira ibiciro byayo kuko idahenze kandi ari nziza uyu mugore uje kugura iyi shati arayikunda cyane.

Imitako myinshi ikozwe n'amasaro agiye atandukanye; harimo ubururu, harimo umweru, harimo umuhondo, harimo n'umutuku, harimo iroza n'utundi twinshi ndetse biri hamwe bigaragara ko bari kutugurisha.

Iduka ryiza cyane kandi rinini ricururizwamo ibyo kwambara bitandukanye, yaba amakoti, yaba amashati, yaba amapantaro cyangwa amakanzu. Umuntu wese waba akeneye kimwe mu bicuruzwa byacu, yadusanga i Remera tukamufasha.

Iduka rinini cyane bacuruza imyenda myiza cyane yo kwambara imyenda ihari ni myinshi cyane ku buryo buri wese uje abagana abasha kubonamo umwenda yifuza umuntu wese wumva akeneye umwenda yabagana utabona uko ahagera akaba yabahamagara ubundi akabatuma imyenda ashaka bakayimwoherereza.

Iduka ry'imyenda bigaragara ko imyenda yabo iba ari myiza cyane batweretse ishati nziza cyane y'ubururu ndetse n'ikote ririmo ubururu n'uturongo tw'umweru biragaragara ko iyi imyenda yiyubashye kandi umuntu ushaka kurimba ariyo yagura akayambara.

Iduka ry'imyenda, bafite imyenda myiza kandi myinshi, ibigaragara imyinshi n'iy'abagore ikozwe mu bitenge ndetse bafite n'imikufi myiza, hagiye harimo amabara atandukanye bitewe n'ibyo umukiliya yashima buri wese yahakura umwenda.

Iduka rinini cyane, rigira imyenda myinshi itandukanye kandi myiza, uyu munsi babazaniye amashati meza cyane y'abagabo ndetse n'abasore. Buri wese bitewe n'uko angana, yaza akabonamo imukwiriye, kandi ibara ashaka ryose yaribonamo.

Iduka ryiza cyane rifite isuku rikorera mu karere ka Gasabo iduka ricuruza imyenda itandukanye, imipira amashati, cyangwa amakanzu byose bya mede in Rwanda muze tubibahe ku giciro kiza.

Ni iduka ryiza cyane kandi rinini bacururizamo imyenda ndetse n'amavuta n'imibavu, umukobwa mwiza wambaye agakanzu keza cyane ufite imisatsi myinshi aje kureba amavuta yo kwisiga ajyanye n'uruhu rwe.

Iduka ricuruza imyenda udutebo ndetse n'ibindi bikoresho byo mu muco wa kinyarwanda rikorera muri hoteri Remigo kandi abakiriya bose bahawe ikaze.

Inkweto nziza cyane ziri mu bwoko bwa kamambiri zikozwe mu mikoba, hejuru batakaho amasaro y'amabara atandukanye, kugirango zibe nziza cyane, buri wese araza bitewe n'amabara ashaka cyangwa akunda, agafata izinogeye ijisho.

Mu iduka rinini cyane aho bacururiza imyenda, inkweto, amasakoshi ndetse n'imikufi. Igipupe gifasha abantu kureba ubwiza bw'imyenda bacyambitse ijipo nziza cyane ndetse n'isengeri y'umukara, bigaragaza ko uhaguriye imyenda akayambara yaba aberewe.

Mu isoko rinini cyane harimo amaduka menshi atandukanye, hano hari iduka rigurisha amavarisi y'ubwoko butandukanye ndetse afite n'ingano igiye itandukanye, hari uduto, hari uturinganiye ndetse harimo n'inini cyane, amabara yose umukiriya yashaka yayabona.

Mu iduka ry'umucuruzi witwa Patricia, uyu munsi akanyamuneza ni kose, ibintu byose biragenda neza, abakiriya babonetse ndetse n'amafaranga arahari, urabona ko yishimye rwose, kuko agiye kugurira abana inyama bari bamaze igihe bamubwira ko bazikumbuye.

Imodoka nziza ifite ibara ry'umutuku bigaragara ko ari nshya iragurishwa n'ikigo cyitwa Kigali kazi maketi. Hejuru batanze nimero ushaka kuyigura wahamagara.

Imodoka nziza cyane ifite amabara meza, bigaragara ko igendamo aba VIP, iri muri parikingi nziza, imbere yaho hari ibiti byiza ndetse n'inyubako ndende na yo ni nziza cyane.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka nziza cyane y'umweru ikiri nshyashya, aba bagabo umwe yaraje kugura iyi modoka, undi nawe ni umucuruzi wayimugurishijeho, iyi modoka yakozwe n'ikigo cyitwa Akagera motozi.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa yundayi ku mpande hahagaze abakobwa beza cyane bose bambaye udupira tw'umweru hamwe n'amapantaro y'amakoboyi, aba bakobwa uko bigaragara bari kwamamaza iyi modoka.

Parikingi nini cyane, ishashijwemo amapave meza, haparitsemo imodoka enye zose z'ubwoko bwa kwasiteri, bigaragaza ko izi modoka ari iz'ikigo zishinzwe gutwara abantu, cyitwa vorukano.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa yundayi kereta yasohotse mu mwaka w' ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iri kugurishwa. Imodoka irasa umukara kandi umukara mwiza cyane, bigaragara ko itari yagashaje cyane. Imodoka bari kuyigurisha miliyoni cumi n'eshanu.

Imodoka nziza cyane ifite ibara ryiza ikiri nshyashya iri kugurishwa amafaranga miliyoni makumyabiri n'eshatu n'ikigo cyitwa Kigali kazi maketi, umuntu waba ashaka kugura iyi modoka yabahamagara ubundi akagenda bakayimuha.

Imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa rava fo iyi modoka ni nshyashya cyane bari kuyigurisha, umuntu waba ashaka imodoka yaza akadusanga i Kigali mu mujyi, imodoka ntabwo zihenze cyane bitewe nuko zitugoboka mu bikorwa byacu bya buri munsi.

Parikingi nini aho imodoka zihagarara hari imodoka isa icyatsi y'igikamyo hirya yaho hari indi nayo ifite ibara rya oranje nayo n'ikamyo imbere ifite ibara ry'icyatsi, hahagaze abayobozi b'izi modoka zose uko ari ikamyo, inyuma hari ivatiri y'umweru n'idayihatso y'umweru.

Imodoka z'umweru nziza cyane, uko ari zirindwi zose zirasa, ziparitse ku murongo umwe, urabona ko bibereye ijisho kubireba, inyuma hari inyubako ebyiri nziza cyane zubatse zigerekeyije ndetse hari n'ibiti byiza cyane.

Parikingi nini cyane iparirikamo imodoka nyinshi, isashijwemo amapave. Imodoka ziparitsemo bigaragara ko zose ari iz'ibigo bishinzwe ingororwa. Hagati muri parikingi hahagaze abagabo babiri bari kuganira. Umwe yambaye imikara, ariko undi yambaye ishati y'umweru.

Muri banki umugabo yari aje kubitsa amafaranga ariko asanga umubare yashakaga kubitsa yose atayafite mu ntoki andi ari kuri telefone, umukozi wa banki ari kumusobanurira ko ayafite kuri telefone ashobora kuyohereza kuri kode ya emutiyene bitamusabye gusubira hanze kongera kubikuza.

Muri banki, umukozi wa banki ari kwakira abagabo babiri bose bari ku murongo yahereye ku wa mbere undi arategereje, bategereje ko babahaye amafaranga ubundi bakajya kugura ibikoresho by'abana babo kuko itangira ry'amashuri ryegereje.

Muri banki, umugabo ukorera muri iyi banki yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, yambaye n'agapfukamunwa k'umukara, yambaye n'amarinete. Arimo arasonaburira umukiriya uje kubikuza aho agomba kubanza gusinya, mu ifishi afite, yandikamo.

Inote y'ibihumbi bitanu ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, kuri iyi note hejuru handitseho banki nkuru y' u Rwanda, kandi hasi ya banki nkuru y'u rwanda yanditseho ko inote yemewe n'amategeko, hasi yaho inote irangira handitseho ko ari amafaranga ibihumbi bitanu ku mpande bagiye bashyiraho ikirango cy'igihugu hacditseho.

Claude nyuma y'uko umunsi wose yiriwe acuruza, aje kubitsa amafaranga ye muri banki, kuko yamenye neza ko muri banki ariho amafaranga ye aba atekanye kuko iwe mu rugo abajura bashobora kumutera bakayiba, ariko muri banki umutekano wayo aba awizeye.

Erike uyu munsi ku kazi byagenze neza kuko abakiriya yababonye kandi yakuyemo n'amafaranga menshi cyane ariko kuko atizeye umutekano w'inzira aracamo ahisemo kuza kuyabitsa muri banki kugira ngo nawe agende yumva atekanye kandi abizi neza ko n'amafaranga aho ari hatekanye.

Inote y'igihumbi y'amafaranga y u Rwanda. Kuri iyi noti hejuru handitseho banki nkuru y u Rwanda, munsi ya banki nkuru y'u Rwanda handitseho ko iyi note yemewe n'amategeko. Hariho igishushanyo kigaragaza inzu ndangamurage y'u Rwanda, inyuma hariho ifoto y'inkende iri kurira igiti, hasi handitseho amafaranga igihumbi.

Abahungu babiri hamwe n'umukobwa mwiza cyane wambaye ijipo yumukara bose baricaye, bicaye ku ntebe zisa umweru imbere yabo hateretse ameza, ku meza hariho amata bose bari kuyanywa kandi bishimye cyane, kubera ko amata ari meza ku buzima bwacu.

Iduka riherereye Nyabugogo, ku nkengero z'umuhanda, uyu munsi abakiriya babaye benshi, amakeke bayamaze, amandazi hasigaye make. Gusa turi gukora n'andi, kugira ngo abandi baraza bakeneye kurya, na bo basange amakeke n'amandazi byabonetse.

Muri kantine ya Kazungu harimo capati ziryoha cyane, bagira n'amandazi meza ndetse n'icyayi baba batetse gifite amata menshi, harimo na twa tangawizi n'u umwenya ndetse na mucyayicyayi.

Imbuto nziza cyane bakase, bazishyira mu tuntu tumwe, kugira ngo uje ashaka kugura imbuto azitware, ndetse aba yahita azirya mu gihe ari mu modoka, cyangwa se ashonje cyane, kuhande hari imineke isa neza ikiri mishyashya kurya imbuto ni byiza cyane kuko nazo ziri mu birinda indwara.

Ikusanyirizo ry'amata hano buri muntu wese ufite amata ayashyira muri ibi byatsi binini cyane by'ibyuma ubundi akaza bakareba niba amata ye, yujuje ubuziranenge basanga yujujura ubuziranenge yose bakayakusanyiriza hamwe, ubundi abakiriya bakajya baza gufata amata byoroshye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bafite amazi y'ikigo cyitwa jibu, aya mazi aba asukuye ku buryo iyo uyagejeje iwawe uhita uyanywa bitagusabye kubanza wayateka kuko byose baba babikoze.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'amata akorwa n' uruganda rw'i Nyanza amata yabo ni meza cyane kandi yujuje ubuziranenge ushobora kuyatwara akaba yamara n'iminsi itatu atarapfa kuko amata yabo bayabika mu buryo bwujuje ubuziranenge.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, uko bigaragara ubucuruzi bahakorerwa cyane n'ubw'amata kuko ku kirango bashyizeho inka ndetse munsi yaho iyo ishushanyije, handitesho ko ari i Nyanza, bigaragaza ko bagira amata y'i Nyanza.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa bitandukanye yaba amafanta cyangwa amaji ndetse n'amata ku ruhande hejuru ya firigo hari icyapa kigaragaza ko bagira amata ya mukamira, byanditseho ngo amata ni ubuzima kandi koko amata ni ubuzima.

Aha hakorerwagamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'amagi, ariko barahombye. Ubu basigaranye akatereyi kamwe gaterekwaho amagi, aka gafite ibara ry'umutuku. Ariko na ko nta magi arimo, biterekeyeho amvilope irimo imigati. Urabona ko bari mu bihe bibi.

Mu nyubako nini cyane ikorerwamo ibikorwa byo gucuruza amata ndetse no kuyakusanya umukozi wabo ari gusuka amata mu cyuma kinini bayasukamo kugira ngo biyarinde kuba yakwangirika bityo abaza kuyagura by icyo aricyo cyose bazira basange amata ameze neza.

Icyumba gikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, bacuruza amata y'uruganda rwitwa Mukamira. Hano bacuruza amata asanzwe ndetse n'andi baba bongeyemo uburyohe, bifashishije imbuto zigiye zitandukanye.

Inyemezabwishyu y'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, Rwanda Reveni. Ni iy'umukiriya wayo witwa Mushirahamwe Gregoire. Iriho n'umukono w'umuntu ukorera kino kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro.

Umuturage ari kubara amafaranga ari mu bwoko bw'amadorari; ni amafaranga menshi cyane urabona ko yishimye. Ubu agiye kugenda akora ibyo yapangaga gukora igihe yateganyaga ko nabona amafaranga azahita abikora.

Abagabo babiri barimo baragurana amafaranga, umwe arashaka amadorari, undi nawe afite amayero, aba bagabo buri wese arashaka amafaranga aramufasha, bitewe n'igihugu agiyemo amafaranga bakoresha.

Mu nzu zikorerwamo ubucuruzi bwo kuvunja amafaranga, umugabo wazanye amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'iwabo, arayatanga baramuvunjira bamuha amafaranga y'amadolari.

Umugore mwiza cyane w'inzobe ufite imisatsi myiza, wambaye amarinete, uyu mugore yarashyingiwe kuko yambaye impeta nk'ikimenyetso kigaragaza ko yashyingiwe, afite amafaranga menshi cyane mu ntoki ze z'inote.

Umukozi wa eyeteri yiriwe umunsi wose ari mu kazi ariko amasaha arageze burije akeneye gutaha akajya guteka, ari kubara amafaranga yakoreye kugira amenye niba yungutse cyangwa se yahombye.

Icyapa cyerekana aho inzu ikorerwamo ibikorwa byo kuvunja yitwa vila ikorera, hano niho abantu bafite amafaranga aturuka mu bindi bihugu adakoreshwa mu gihugu barimo baza bakabavunjira bakabaha amafaranga akoreshwa muri icyo gihugu bajemo binganya agaciro.

inzu bavunjishirizamo amafaranga cyangwa se bakohereza amafaranga mu mahanga aha amafaranga ufite iyo atari yakoreshwa muri icyo gihugu bazaza bakakuvunjira bitewe n'ayo ufite ndetse bakakuvunjira ayo ukeneye urugero niba bakoreshaga amanyarwanda wowe ufite amadorari ahangaga niho uza bakakuvunjara ukabaha ayo amadorari bakaguha abanyarwanda biganya agaciro.

Inzu y'ubucuruzi iherereye mu mujyi wa kigali ikorerwamo ibikorwa bitandukanye ,icyumba kibanza niho hakorerwamo ibikorwa by'ivunjisha aho abanyamahanga baza bakavunjisha amafaranga bakuye mu bihugu byabo, bakabaha akoreshwa mur' icyo gihugu bajemo.

Inyubako iherereye muri gare ya Nyabugogo, ikorerwamo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi bitandukanye, icyumba kibanza hakorerwamo ibikorwa by'ivunjisha, aho abanyamahanga cyangwa se n'abanyarwanda bafite amafaranga adakoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, baza bakabavunjira bakabaha amanyarwanda.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi aho ku izu ibanza bashyizeho icyapa kigaragaza ko hari aho bavunjiriza amafaranga. Hano umuntu ufite amafaranga adakoreshwa muri icyo gihugu ajemo cyangwa se agiyemo araza agatanga ayafite ubundi bakamuha amafaranga ashaka.

Inyubako ndende kandi nini ikorera mu mujyi wa Kigali i Remera hakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'amabanki. Hakoreramo kesibi ndetse hakoreramo na solasi, hejuru ya kesibi. Solas ni ikigo gifasha abantu kwizigamira no kwishinganisha.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye iherereye mu mujyi wa Kigali, icyumba cya mbere kibanza haberamo ibikorwa byo kuvunjisha, aha ufite amafaranga adakoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda araza akayavunjisha bakamuha ayo mu gihugu cy'u Rwanda biganya agaciro.

Inzu z'ubucuruzi zikorerwamo ibikorwa by'ububaji aho bakora intebe ameza utubati ibitanda ndetse n'ibindi byose biba biturutse mu mbaho, hano bakora intebe nziza cyane ku buryo umuntu ushaka kugira saro nziza yaza bakamufasha.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umweru asa neza, hasi hashashemo amakaro nayo asa umweru ni heza cyane harasukuye, muri saro yabo harimo intebe zikozwe n'imbaho ariko zirasa neza, muri izi ntebe bashyizemo imifariso kugirango abazicaramo bumve baguwe neza.

Icyumba gikorerwamo ibikorwa by'ububaji babaza intebe nziza cyane ndetse n'ameza, umuntu wese ushaka ko bamukorera intebe, cyangwa ameza, cyangwa utubati abageraho bakamufasha. Bakora ibintu byiza cyane kandi bikomeye.

Inzu nziza cyane ifite hanze hasashe amapave, bahateye intebe nziza za sheze ndetse n'ameza, bigaragara ko abashaka kuganirira hanze baraza bakicara kuri izi ntebe, maze ikiganiro cyabo kikagenda neza.

Intebe nziza hamwe n'ameza bikozwe mu mbaho, birasa neza bigaragara ko ari ibyo washyira mu ruganiriro.

Icyumba cyiza kandi kinini giteyemo ameza ndetse n'intebe byinshi bigaragaza ko hakira abantu batari bake bose bahasohokeye. Abashaka kuharira cyangwa kuhaganirira bose niho bajya bakicara bakaganira, kuko haratuje kandi harasa neza hafite isuku.

Ubusitani bwiza bufite ibiti byiza hari umucaca mwiza usa neza biragaragara ko aha hantu hari akayaga ku ruhande hari aho abantu bicara igihe bahasohokeye bakaba bahaganirira bumva akuka keza ndetse n'akayaga .

Umuhanda mwiza kandi ufite isuku bashyizeho akayira k'abanyamaguru gahagije, bamwe baratambuka abandi nabo bagakora imyitozo ngororamubiri, ku mpande hariho inyubako ikorerwamo n'ikigo cyitwa radiyanti gikora ibigendanye n'ubwizigame ndetse no kwishinganisha.

Inzu nziza cyane zubatse zigeretse z'itaje biragaragara ko zubatse mu buryo bugezweho, haparitse n'imodoka nziza cyane y'umweru ahangaha hakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Inyubako nziza cyane, ndende, igeretse kabiri, ifite amarangi meza cyane, irasa neza, irasukuye, imbere hashashe amapave, na yo atondetse mu buryo bwa kinyamwuga, bigaragara ko iyi nyubako yubatswe n'abahanga.

Inyubako nziza cyane ndende yubatse igerekeranye ifite amabara meza ifite ibirahuri byiza cyane bigezweho ifite isuku urabona ko uyirebye bigaragara ko ari inzu igezweho handitseho amagambo avuga ngo mitosi.

Icyumba kinini giteyemo intebe z'ubwoko butandukanye ndetse n'ameza atandukanye, harimo na televiziyo harimo n'imitako iteretse ku meza y'iki cyumba, uko bigaragara niho bakirira abantu baje babagana.

Pisine ya hotel yitwa mariyoti ( mariot )iherereye i Kigali ni nini ,buri wese ushaka araza koga kandi yisanzuye, kubadashaka koga nabo bashaka kureba amazi ,ku ruhande hari udutebe twiza baza bakaba begamyeho cyangwa ubishaka akicara.

Ibikorwaremezo mu muhanda w'abanyamaguru ndetse iruhande uriho ubusitani burimo ipoto riyishamikiyeho insinga zo mw' ibara ry'umukara zigena amashanyarazi ku baturiye iryo poto.

Hoteli nziza cyane iherereye mu karere ka Rubavu yubatse neza kandi ifite isuku, iyo winjiyemo uhasanga imitako myiza cyane ndetse n'indabo nyinshi zisa neza, iyo uhageze wumva wishimye kandi uruhutse kuko haba hari akayaga keza.

Hoteli nziza cyane yubatse neza iragerekeranye bafite amacumbi menshi cyane kandi meza, hanze harimo imitaka ku buryo abashaka kuganira batari mu nzu bumva akayaga baza bakicara mu mutaka banywa icyo kunywa cyabo cyiza banaganira bishimye.

Aha ni muri banki aho abakozi bakorera hano mu cyumba uyu mukozi akoreramo harimo mudasobwa ndetse n'intebe z'umukara igizwe n'imifariso yicaramo.

Inyubako nini kandi nziza irasa neza kubera amabara ifite ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku ifite urugero rusa umutuku, ku ruhande hariho ikirango kigaragaza ko ari inyubako ya yuweyipi.

Inyubako yubatse igerekeranye ni nziza cyane ifite amabara meza, iherereye kicukiro inyubako ifite ibyumba bigiye bitandukanye hakorerwamo n'ibikorwa bitandukanye, hasi hari aho saniramu ikorera, iki n'ikigo cy'ubwishingizi ndetse na pirime ikorera hejuru nayo ni ikigo cy'ubwishingizi.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi meza yubatse mu buryo butangaje kandi bugezweho, imbere ifite ubusitani bwiza cyane aho abageni bashobora kujya kwifotoreza amafoto meza, inyubako uko bigaragara ni hoteri.

Umuhanda mwiza kandi ufite isuku bashyizeho akayira k'abanyamaguru gahagije, bamwe baratambuka abandi nabo bagakora imyitozo ngororamubiri, ku mpande hariho inyubako ikorerwamo n'ikigo cyitwa radiyanti gikora ibigendanye n'ubwizigame ndetse no kwishinganisha.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo bari mu cyumba cyabugenewe gukorerwamo inama kirimo ameza yabugenewe ndetse n'intebe z'umukara zicayemo abo bantu bafite n'ama mashini bari kwiga ku kibazo runaka cyabahurije aho hantu.

Icyumba kinini abakozi bakoreramo akazi, abakozi bafite buri wese mudasobwa kandi buri mukozi imbere ye hari umukiriya, urabona ko bari kubafasha babasobanurira ibigendanye na serivisi batanga, abakiriya nabo bakababwira uko bashaka ko babafasha

Inyubako nziza cyane kandi nini, ifite amarangi y'umweru, hejuru parafu n'ayo ifite ibara ry'umweru, amakaro ashashe hasi n'ayo ni umweru, harasa neza cyane, hakoreramo ikigo cyitwa buritamu, abakozi ba buritamu, buri wese ari kwakira umukiriya waje amugana.

Inyubako nziza cyane kandi ndende yubatse igeretse, imbere hari umugabo wambaye ijire bigaragara ko ari umukozi wa MTN, ari kuganira n'undi nawe wambaye ishati y'umuhondo. Iyi nyubako hakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse mu muryango wo hasi hakoreramo ikigo kitwa Britam.

Ikigo gishinzwe ubwishingizi umukozi wacyo ari kuganiriza abaje bamugana uburyo ari byiza cyane kuba bashinganisha ibikorwa byabo aba bagabo bagaragara ko bamaze kwemera igisigaye ari ugusinya amasezerano ubundi ibikorwa byabo byose bikaba bishinganishijwe.

Inyubako nini cyane yubakishijwe ibirahure hasi hashashemo amakaro meza cyane asa umweru iyi nyubako ifite isuku kandi isa neza hakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye ariko umuryango uba ufunguye hano hakorerwamo ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Fowenikisi.

Ikigo cy'ubwishingizi cyitwa mowa inshuwarensi Rwanda rimitedi gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, cyongeye gutanga ikaze ku bantu bifuza kuba bakwizigamira, kuko iyo wizigamiye mu gihe cy'ibibazo cyangwa cy'ibyago na bo barakugoboka.

Inyubako nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali yubatswe mu buryo bugezweho, inyubako iragerekeranyije ni etaje, hasi hakoreramo ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu gihugu cy'u Rwanda cyitwa yuweyipi.

Iki ni igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro igihe uteye mu buryo butunguranye gifite amabara y'umutuku impande zose, ndetse n'umunwa w'umukara, nawe nakugira inama yo kukigura ukagitunga iwawe.

Ayi endi emu banke umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane barabahembye nka banki ikora neza cyane kuko ifasha abaturage kwizigamira ndetse n'igihe hari imishinga bafite bakaba badafite amafaranga bayisanga ikabaguriza.

Inyubako nziza cyane nini kandi ndende, yubatse mu buryo butangaje kuko igikuta cyose cy'imbere kigizwe n'ibirahure gusa, inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'ubuvuzi.

Muri banki haracyari mu gitondo cyane abakiriya ntabwo baratangira kuza kubikuza, gusa kuko ari mu minsi mikuru mu masaha make baraba baje kugira ngo babone uko bagira amafaranga bazakoresha mu birori by'iminsi mikuru.

Ibyo umukiriya uje gusaba inguzanyo yuzuza, hari amakuru agendanye nawe ubwe, harimo amazina, nimero za telefoni, aho atuye ndetse n'igihe yavukiye, harimo kandi no kuzuza ibigendanye n'ibyo akora, ubundi akuzuza n'amafaranga ashaka ko bamuguriza, uko angana.

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Banki ya Afurika yongeye kugaragaza ko biri gukunda kuba yaguha inguzanyo mu gihe ushaka kugura ikinyabiziga bakoresheje insanganyamatsiko ivuga ngo wayitunga nawe.

Ku isoko aho bacururiza ibyo kurya, hano abagore babiri bari gucuruza amagi, bose barishimye bigaragara ko uyu munsi abakiriya babahahiye. Amagi ni meza cyane abafite abana mujye muyabagurira kandi no ku muntu mukuru amagi birakwiye ko bayarya.

Inyubako ndende cyane kandi nini iherereye mu mujyi wa kigali mu karere ka Nyarugenge inyubako hakorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye ariko ariko ibikorwa byiganjemo ni iby'ubucuruzi, imbere y'inyubako hari parikingi aho abacuruzi bakoreramo ndetse n'abakiriya babo baparika imodoka zabo.

Mu isoko rya Nyabugogo aho bagurishiriza imbuto, umucuruzi yifashi ku itama kuko yabuze abakiriya kandi yari akeneye amafaranga, ari gucuruza inanasi, amapapayi, amaronji, imyembe, ndetse n'ibindi.

Inyubako ndende kandi nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ndetse na hoteli iherereye Nyabugogo imbere hari abakiriya benshi cyane bigaragara ko baje bagana ibikorwa bikorera muri iyi nyubako.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo uyu muhanda urimo imodoka ipakiye imizigo ariko itari mu bwoko bwa rukururana, uyu muhanda ku mpande ebyiri zawo hari inzira yahariwe abanyamaguru ku ruhande rwo hepfo rw'uyu muhanda hari ibiti.

Inyubako nziza kandi ndende iherereye mu mujyi wa Kigali Downtown, iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye ariko ibikorwa byiganjemo mu bikorerwamo ni ubucuruzi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi hahuriye abantu benshi, uyu munsi umuhungu ucuruza ibiraha abijyanye mu ndobo arahanyuze kubera ukuntu bazi ko asanzwe agira ibiraha biryoha baramuhamagara kugira ngo babigure.

Ni isoko rinini cyane ricururizwamo ibiribwa, hari ibyo kurya bitandukanye ariko byose bigiye birunze mu buryo butandukanye kugira ngo bitivanga, bityo byorohere umuguzi igihe haje abakiriya kubibaha kandi akabibaha bitivanzemo ibindi, kuko bivangavanze biba bisa nabi.

Mu isoko rinini cyane, ibicuruzwa bitandukanye, bagiye babishyiraho mu buryo butandukanye. Hano ni ahacururizwa imboga. Bafite imboga z'ubwoko butandukanye. Yaba amashu, yaba ibitunguru, yaba amakaroti, ndetse n'ibindi bindi bigiye bitandukanye.

Ni isoko rinini cyane ahacururizwa ibyo kurya, hano bacuruza ibirayi byiza cyane ndetse n'ibitoki, aba mama bari kubigurisha bakira neza abakiriya buri wese bakamupimira ku munzani bitewe n'ibiro ashaka.

Ni isoko ryiza cyane kandi rinini, aho bacururiza ibikoresho bigaragaza umuco wa Kinyarwanda. Harimo ingoma y'uruhu, hari ibisabo, hari udukoko twiza cyane, ndetse hari n'ibiseke.

Mu isoko haberamo ibikorwa byinshi cyane hari ababa bari gutwara imizigo hari n'abandi baba bari gucuruza, uyu mugabo yikoreye ibintu byinshi cyane bigaragara ko afite imbaraga, umuryango we awitaho kuko akora cyane kugira ngo babashe kubaho.

Inzu ifite amabara y'umuhondo hariho ibirango bya MTN bigaragaza ko ariho MTN ikorera, hano abakiriya ba MTN bafite ibibazo bitandukanye bitewe n'amasimukadi yabo, ari abazibuze cyangwa se aboyobeje amafaranga, cyangwa abandi bakeneye izindi serivise zose zisabwa MTN baza bakabafasha.

Ibirango bigaragaza inyubako emutiyene ikoreramo, emutiyene ni ikigo gishinzwe itumanaho gikorera hafi ku isi yose. Iki kigo kiradufasha cyane kuko gituma tubasha kubona uko tuvugana n'abantu bacu bari kure ndetse tukaba twakohererezanya n'amafaranga.

Mu nyubako ikorerwamo ubucuruzi aba ajenti ba emutiyene bari gutanga serivisi ku bakiriya ba emutiyene, hano ushaka kubitsa cyangwa kubikuza cyangwa se kugura simukadi nshyashya aba ajenti babigufashamo.

Muri iyi nyubako niho abakozi ba emutiyene bakorera, umuntu wagize ikibazo yayohereje amafaranga ashaka kubitsa cyangwa se ashaka kubikuza ni hano aza bakamufasha ndetse n'abakeneye amiyanite.

Umunyonzi witwa Emmanuel Twahirwa ukorera mu karere ka Musanze, arishimye cyane nyuma yo guhabwa umupira wa emutiyene. Inyuma umukozi wa emutiyene nawe arishimye, kuko abakiriya babonetse, kandi nawe yabahaye serivisi nk'uko babishakaga.

Umuhanda munini mwiza cyane wa kaburimbo ku ruhande hari abajenti ba emutiyene, bahakorera kugirango abantu bose bashaka serivisi za emutiyene babashe kubona ababafasha bitabasabye kujya ku kicaro.

Akazu gatoya kaba gashobora no kuba kakwimurwa ka MTN, harimo umwajenti. Ari gufasha abakiriya baje bamugana. Umwajenti urimo, ari kubabikuriza cyangwa se akababikira amafaranga, byose kuri telefoni, harimo n'abo ari guha amayiniti.

Utuzu dutoya tubiri twose tw'ibigo bishinzwe itumanaho mu Rwanda kamwe k'umutuku ka eyateri, ndetse n'akandi k'umuhondo ka emutiyene byose abakozi babo babonye abakiriya nta na kamwe katari gukora.

Abakozi ba emutiyene bashinze ihema kugira ngo abakiriya babo baze babafashe izuba ritari kubica kuko umukiriya ni umwami emutiyene irabizirikana ikabitaho.

Mu isoko rinini habereyemo imurikagurisha abakozi ba emutiyene bambaye ingofero za emutiyene bari gusobanurira abakiriya babo, uko emutiyene izakomeza kubafasha mu zindi serivisi zose zikorerwa ku matelefoni.

Ibirango bigaragaza inyubako emutiyene ikoreramo, emutiyene ni ikigo gishinzwe itumanaho gikorera hafi ku isi yose. Iki kigo kiradufasha cyane kuko gituma tubasha kubona uko tuvugana n'abantu bacu bari kure ndetse tukaba twakohererezanya n'amafaranga.

Abagabo babiri bose bafite kasike zanditseho sefu moto, aba bagabo bose bambaye amarinete umwe ni umwirabura ariko undi ni umuzungu.

Umuhanda mwiza uherereye mu mujyi wa Kigali, ufite isuku kandi ni kaburimbo, ku ruhande hariho akayira k'abanyamaguru kugira ngo bagende bisanzuye batagongana n'ibinyabiziga, harimo amapikipiki abiri yose buri mumotari ahetse umugenzi, aba bamotari n'abagenzi bose bambaye kasike zisa icyatsi.

Abagore cumi na babiri, kandi bose beza bigaragara ko ari abayobozi cyangwa bakaba bafite indi myanya kandi myiza y'icyubahiro, bisa nk'aho bari gukangurira n'abandi bagore kwigirira icyizere.

Abakozi bambaye impuzankano y'amashati y'icyatsi yanditseho vuba, bose bahagaze iruhande rw'ikipikipi iriho igikoresho cyanditseho vuba. Vuba ni ikigo gifasha abantu bakeneye ibyo kurya ariko batavuye aho bari, kuba babibatuma, maze bakabibagezaho mu buryo bwihuse.

Ikigo gikorera onilayini cyitwa ali egisipuresi, bafite ibicuruzwa bitandukanye, icyo ushimye urahamagara bakakikugezaho, bagira amakoti meza, amasakoshi, amatelefone, amamashini n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Jumiya gikorera onulayini kiri kwereka abakiriya babo ko bafite imyenda myiza cyane y'abagore, harimo amakanzu, amajipo ndetse n'utwenda two kwambara hejuru igihe wambaye ijipo cyangwa ipantaro, uwashaka kimwe mu bicuruzwa byabo yabandikira kuri konte ya Tuwita batanze.

Ubu noneho ubu byaroroshye birashoboka ko igicuruzwa ushaka muri karitsiye urimo ukaba wakibuze ushobora kugituma onoliyine kandi bakakizana bakakikugezaho, icyo bisaba ni uguhamagara kuri izi nimero; zeruu karindwi umunani umunani gatandatu umunani kane gatanu karindwi gatanu.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, irimo ibikoresho byiza cyane nabyo bigezweho, iri kugurishwa. Inyubako iherereye i kigali, umuntu waba ashaka kuyigura asabwa kuba afite amafaranga ibihumbi bibiri by'amadorari.

Ubu noneho i Kigali mu Rwanda tubafitiye inzu nziza cyane wagura, inzu nini kandi ifite isuku yubatswe mu buryo bugenzweh, uwashaka kuyigura bimusaba kuba afite amafaranga igihumbi na magana atanu by'amadorari.

Inyubako nziza yubatse neza mu buryo bugezweho, iherereye mu mujyi wa Kigali, kandi ikaba ifite pisine mu imbere mu gikari, irimo iragurishwa. Uwayishaka yakanda www.vibehouse.rw, ubundi akabasha kubona andi makuru asabwa.

Inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda iri kugura amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda miliyoni ijana na mirongo itatu, irasa neza yubatse mu buryo bugezweho isize amarangi meza cyane urabona ko isa neza.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali kibagabaga, yubatse neza mu buryo bugezweho ifite urugi rwiza rukinga ku gipangu ndetse no mo imbere amarangi yakoreshejwe ni meza cyane, inyubako iri kugurishwa uyikeneye asabwa kuba afite amafaranga angana n'igihumbi cy'idolari.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, aha ni mu cyumba babikamo ibikoresho by'agaciro baba baraguze, ibikoresho babishyira mu kabati kabajwe mu mbaho. Ibi bikoresho abashaka kureba cyangwa kumenya uko bikoreshwa baraza uyu mugabo wambaye ishati y'umweru akabibasobanurira.

Inyubako nini baragaragaza ko iherereye Kibagabaga Kigali kandi barerekana ko iri kugurishwa amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu iki ni ikintu gishyirwa ku nzu cyangwa se gishyirwa ahantu umuntu ari kugurisha agamije ko abantu babona icyo agambiriye cyangwa se bamenya ko niba agiye kugurisha bamenya agaciro , igenagaciro ry'icyo kintu ashaka kugurisha .

Nyuma y'akazi katoroshye bahereye umunsi wose bakora baje kuruhuka urabona ko Deriki azanye Morini kugira ngo ikintu yumva yaba ashaka kunywa agitumizeho maze basangire baruhure mu mutwe kuko bakoze cyane umunsi wose.

Inyubako nziza cyane iherereye i Kigali ku Gisozi bafite inzu iri gukodeshwa, iyo nzu ifite ibyumba bine ifite n'ubwogero ndetse n'ubwiherero bwiza cyane bugezweho, iyi nzu ni nziza ifite n'amarangi meza irasa neza yubatswe mu buryo bugezweho.

Inyubako nziza cyane iherereye ku Gisozi i Kigali iri gukodeshwa, ifite icyumba kimwe ikagira n'ubwogero, inyubako irakodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu buri kwezi.

Inyubako nziza cyane ifite amarangi asa neza ndetse inasakaye mu buryo bugezweho, ifite igipangu kiza cyane iherereye i Kigali i Kanombe Inyubako ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ikagira saro ndetse n'aho kurira hose hanini.

Iri ku murongo y'amagorofa asize amarangi y'umweru n'umuhondo asakaje amabati y'umutuku imbere hari igiti kirekire kirimo insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako nziza cyane, ifite amarangi meza, ifite isuku, yubatse mu buryo bugezweho. Bafite ibyumba byinshi, kandi bitandukanye. Umuntu ushaka kuharara mu ijoro rimwe, yishyura amadolari mirongo itatu n'atanu, ubundi akaryama akaruhuka neza.

Inyubako nziza iherereye mu mujyi wa Kigali, ifite amarangi meza, yubatswe mu buryo bugezweho, irimo iragurishwa iri kugurishwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo ine by'amadorari.

Inyubako nziza iherereye Kigali Kibagabaga, iri kugurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda, iyi nyubako ifite amarangi meza, ifite amakaro ndetse imbere hari na parikingi nini kandi nayo yubakishijwe amapave.

Inyubako nziza cyane, yubatse neza ifite amarangi meza, imbere hashashe amapave, iherereye mu mujyi wa Kigali, Kimironko. Iyi nyubako ifite ibyumba bine, ndetse na dushe eshatu. Kuyikodesha ni ibihumbi magana atandatu by'amafaranga yu Rwanda, buri kwezi.

Isoko ryiza rikunda gukoreshwa cyane n'abasirimu ryitwa supermarket bafite imiryango ibiri hose binjirira bagiye kurihahiramo izina ry'iyi supermarket ryitwa hudu mariti.

Iduka ryiza kandi rinini rifite ibintu byiza cyane bitondetse neza nta kavuyo bifite biryoheye amaso kubireba harimo ibikapu harimo inkweto harimo imikufi myiza cyane harimo n'indorerwamo.

Isoko ryiza kandi rinini rikunda guhahirwamo n'abantu basirimutse cyane, hari gucururizwamo imbuto n'imboga n'ibindi bitandukanye, bari guha abakiriya babo serivisi bishimye ndetse mu iduka ryabo banamanitsemo icyapa cyanditseho ngo murakoze bigaragaza ko bahora bishimiye abakiriya babo.

Isoko rinini cyane ricururizwamo imboga ndetse n'imbuto, hano imboga bafite ni nziza cyane bigaragara ko nta gihe kinini ziramara kandi n'uwabigura bitahita bipfa, ibi bicuruzwa byabo byujuje ubuziranenge.

Inyubako nini cyane yubatse neza, ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bikoreshwa mu nzu. Ibicuruzwa birimo hano byose byujuje ubuziranenge, n'ubwo abakiriya batari baza, ariko umucuruzi aricaye abategereje.

Isoko ryiza cyane riherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, iri soko habamo ibicuruzwa by'ubwoko byose kandi byose byujuje ubuziranenge ku rwego ruhagije, abaje kubiguriramo kubera ukuntu aba ari byinshi ntabwo babyitwaza babikikiye ahubwo harimo utugare babishyiramo bakagenda badusunika.

Inyubako nini iherereye mu mujyi wa Kigali, yubatse neza mu buryo bugezweho, ndetse hasi hasashe amakaro. Mu inyubako berekana aho abinjira binjirira, ndetse n'aho abasohoka basohokera, kugira ngo umutekano w'abayigana ukomeze urindwe.

Ku kigo nderabuzima duturanye abarwayi bahageze bazindutse cyane basanga abaganga baracyari mu nama, bahitamo kuba bicariye hanze bakaba baganira mu gihe bategereje ko abaganga baza bakabafasha.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo n'ikigo gifasha abantu kuba batanga ubwisungane mu kwivuza. Abakozi bacyo bari kwakira abaje babagana, buri wese bakamufasha bitewe n'icyatumye aza abagana.

Ara esi esibi ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda gikoreshwa n'abakozi ba leta, abakozi ba leta bagatwa amafaranga yo kwizigama buri kwezi, iki kigo nacyo kikabafasha mu kwivuza yaba aribo ndetse n'abana babo.

Umuhanda mwiza cyane kandi munini, amamodoka aragenda, ndetse n'abanyamaguru baragenda, n'iyo haba na nijoro. Kuko mu muhanda harimo amatara, kugeza abantu bageze iyo bajya. Ubu biroroshye, kuko na n'ijoro ugenda umurikiwe.

Ejo heza hejuru hari izuba bisa nk'aho ari ikirango kiranga uyu muryango witwa ejo heza, ku ruhande handitseho uzakomeza kubaho neza no muri pansiyo, bisa nk'abari gukangurira abantu kwiteganyiriza bizigamira mu zabukuru bazabeho neza bagaragarije umukecuru n'umusaza bishimye.

Muri banki, abakiriya bose bari kubafasha, kuko abakozi bose bicaye muri ofisi. Gusa hari uwicaye ku ntebe ibanza, we yari asohotse, ariko umukiriya aracyamutegereje, bigaragara ko aho agiye ataratinda.

Ni inyubako irereye i Kigali Kabeza bari kutwereka ko ifite igikoni kigezweho, iyi nzu ikigaragara cyo iri kugurishwa kuko bari kutwereka ko ufite amadolari magana atanu mirongo itanu wabona iyi nzu, irimo ibikoresho bitandukanye, irimo ahantu bashobora gutekera n'aho bashobora gukarabira, harimo n'utubati.

Isoko ryiza bigaragara ko ari aya masoko meza agezweho harimo ibintu byinshi kandi byiza bitondetse ku murongo ntago bijagaraye nta kavuyo k'abantu benshi karimo, urabona ko hasa neza cyane.

Isoko ryiza cyane bacuruza ibyo kurya bitandukanye ndetse abana benshi bakunda hano hari goriiosi cyangwa amabiswi cyangwa amabombo abana mujye mubaha ibyo babasaba kuko bituma bakura bishimye.

Mu karere ka Muhanga habereyemo irushanwa ry'amagare riba buri mwaka rikabera mu gihugu cy'u Rwanda, babahagaritse ku mpande kugira ngo hataba impanuka ndetse n'abari mu irushanwa babashe gusiganwa nta nkomyi.

Iduka ricururizwamo imboga n'imbuto. Aha ibicuruzwa byose biba byujuje ubuziranenge ,kuko babibika mu buryo n'iyo byamara iminsi irenze itatu bidashobora guhita bibora ,abakiriya bakunda kuhagana kuko bizeye ubuziranenge bw'ibyo bahaguze.

Isoko ryiza kandi rinini rifite isuku, haragaragara ko ari isoko ry'imbuto ndetse n'imboga, buri rubuto buri bwoko ukwabwo bugiye bupanze hamwe ntabwo zivangavanze urabona ko ni ibintu bisa neza cyane.

Umukobwa witwa Liza yaraje muri banki aje kubikuza amafaranga kuko hari ibikoresho byinshi akeneye yari ashaka kugura, ahageze ahahuriye na Arisene biganye kera ariko ntabwo baherukanaga none Arisene niwe usigaye ukora muri iyi banki niyo mpamvu bose bishimye.

Iduka ricururizamo ibyo kunywa ndetse n'ibyoku kurya, bafite amafirigo menshi cyane kandi meza, buri bwoko bw'ibinyobwa bugiye bupanze hamwe, amaji ukwayo amata ukwayo ndetse n'amazi ukwayo.

Famili inshuwarensi, iyi ngiyi ni ubwishingizi bw'umuryango wawe ku bihereranye n'indwara, amashuri ndetse n'ibindi bitandukanye, urugero amazu nk'imirima n'ibindi.